Ni umusaruro w'ibirayi uri mu mifuka iterekeranyije yuzuye, imwe iri mu ibara ry'umweru, indi iri mu ibara ry'ubururu .Aho ari umusaruro abaturage bagenewe kuzajyana ku isoko.